Gutanga ubwishingizi ni byiza cyane kuko biragutabara igihe runaka umuryango ugize ibibazo, cyangwa urwaye nyine. Ni ibintu bikugoboka cyane nk'uko nakugira inama nawe yo kubikora rwose hakiri kare, nk'uko mubibona muri iki kirango kiriho umugabo, umugore ndetse n'umwana wabo bishimye.

Nyamara ubwishingizi ni ingenzi nkuko njya mbivuga; urugero, niba urwaye bishobora kugutabara, inzu yawe niba ihiye bahita bakubakira indi; urabona itwikirijwe n'umutaka, uku ubibona rero kuri kino kirango ni nako baba bameze, barizewe!

Gufata ubwishingizi ikintu runaka ni byiza cyane kuko biragutabara igihe uri kwa muganga, noneho akarusho nuko iyo uyifatiye inzu, imodoka yawe, iyo bihiye bahita bakugoboka nk'uko ubibona, uyu ni umutaka ubitwikiriye muri iki kirango kibyerekana.

Ni byiza ko nawe wajya ufata ubwishingizi ndetse ukagira n'umwanya wo kuba wafata akaruhuko ukicara ukitekerezaho ndetse wamara kubona ibibazo bikugarije ugahaguruka nawe ukabagana bakagufasha rwose.

Gufata ubwishingizi ni byiza kuko biragukorera cyane igihe uhuye n'ibyago cyangwa ibizazane byo kurwaza umwana, inzu yawe gushya, imodoka yawe kwangirika ugasanga nta bushobozi ufite, nawe rero wagana Radiyanti bakagufasha.

Ubu rero ni uburyo bwiza cyane ushobora gufatira ubwishingizi amatungo yawe cyangwa se ubutaka n'ibindi byinshi bitandukanye, birebera ku bwoko igihe arwaye cyangwa apfuye ugahita ugenda ukabagana bakagufasha ubona kuri iki kirago kiriho ingurube ndetse hasi handitseho ubwishingizi bw'ingurube.

Nibyizako nawe wajya ukoresha apurikasiyo ya banki nk'uko ubibona, uy' umusore uri hagati y'abari babiri beza cyane banaseka neza, bombi bambaye imyenda y'imikara, inyuma ye hari n'ikindi kirango rwose ,iyi rero wajya uyifashisha mukwishyura cyangwa mukohereza.

Apulikasiyo ifasha abantu benshi nk'uko ubibona rwose unabizi iragutabara igihe ubona gukanda kanda akanyenyeri byanze, ushobora kuyijyaho ukohereza amafaranga, ukishyura ndetse ukanagura ibicuruzwa runaka wibereye mu rugo.

Ubu rero n'uburyo umuntu yishyura akoresheje ikoranabuhanga nawe urabona rwose imyirondoro y'iwe amazina, nimero za konte ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ushobora kwishyura rero utumiza ibintu hanze cyangwa mu kindi gihugu.

Apulikasiyo ya banke ni nziza cyane kuko iradufasha kuba twakoresha konte zacu tutavuye mu rugo ariko nanone bikaba ikibazo igihe nta mega dufite zo kuba twajya ku ikoranabuhanga, rero ujye ubanza umenye neza niba uzifite cyangwa niba ntazo ufite ukoresh akanyenyeri.

Iyi rero ni apulikasiyo abantu bifashisha, cyane cyane abakoresha ino banke yitwa "access", ikorera mu Rwanda. Bohereza amafaranga cyangwa bayakira. Bishyura ibintu runaka, ibicuruzwa, amazi, umuriro. Biterwa n'amahitamo yawe.

Aha rero ni aho bacuruza inkweto zitandukanye nziza cyane yaba iz'abagabo, iz'abana iz'abadamu ndetse n'izo kwambara mu rugo igihe wenda uri gutembera ukora imirimo runaka ibyiza ko nawe rero wazaza ukihahira ni karibu.

Hari amaduka acuruza imyenda rwose, ubona ko yageze kure ndetse umuntu ubifite ashobora kuba yarya mu gitondo, saa sita, na nimugoroba, umwana we akiga nta kibazo afite kuko yihangiye imirimo. Hano rero, bacuruza imipira, yanabigejeje ku mbuga nkoranyambaga.

Uyu mubyeyi yagerageje kwihangira imirimo kugira ngo abashe kugaburira abana be anabamenyere imyenda, inkweto n'ibindi byinshi. Hano rero harimo amavuta ndetse n'ibindi bashobora gucyenera mu buzima bwawe bwa buri munsi niba ndeba neza ndi kubonamo n'imikasi.

Uyu mubyeyi ubona ko aseka yishimye wambaye imyenda yo mu bitenge, afite ikayi n'ikaramu arimo arandika, ikimufasha guteranya, mudasobwa impande ye, ndetse n'ibindi byinshi cyane yakongeraho n'imyenda acuruza rwose irimo amakanzu ndetse n'ibindi.

Aha rero n'ahantu bacuruza ibintu bitandukanye birimo amatapi basasa munzu yaba ay'ubwoya, ay'ibyatsi n'ibindi. Hari agatebe ushobora kwicaraho, ibitenge n'ibindi byinshi cyane. Waza ukigurira nawe, cyangwa waba ufite amafaranga ugashora, ugacuriza.

Abantu bacuruza imyenda itandukanye uri kubona biriya bintu biyambaye buriya imodoka iri gutambuka, ndetse n'undi manyamaguru hanyuma harimo amakanzu, amapantaro, amashati n'ibindi, inyuma yaho rero kiriya giti ubona ni ikibazanira akayaga igihe wenda habaye ikintu runaka.

Aha rero nk'uko uhabona ahantu bacuruza ibintu bitandukanye niba ndeba neza harimo ibitabo ndetse n'ibindi byinshi, harimo utubati dukeye hakurya urahabona ibirahure bituma ureba hanze ukabona ibintu biriyo.

Aha rero ni ahantu umuntu yishingiye imirimo aho yashyizemo ibikoresho bya gakondo, harimo ibintu bitandukanye ibisabo, ndetse n'ibindi bibohesheje intoki ibikapu imipira myiza y'umweru nkuko ubibona ubururu ndetse n'andi mabara atandukanye.

Uyu rero nk'uko ubibona ni umuntu wihangiye imirimo ndetse ashaka ahantu ashobora kwitereza imbere arahabona ahita ahashyira imyenda y'abagore ndetse n'iy'abagabo, imitaka, bisa naho bidoze mu bitenge rwose, ibintu byiza bisa neza.

Aha ni ahantu ubona ko bacuruza ibintu bitandukanye birimo amavuta yo kwisiga, ibihumuza umubiri w'ibintu ndetse n'imyenda n'ayandi atunganya imisatsi. Ni byiza ko nawe rero niba ufite gahunda wajya wishingira akantu runaka kaguhereza amafaranga niyo yaba makeya.

Hano urabona ko hacururiza ibintu bitandukanye birimo imyenda hasi hashashe utuntu tw'umukara ndetse n'umweru hari n'ibindi byambaye imyenda ubona ko biberewe iyo uje ugasanga nisayizi yawe rwose uhita wambara nta kibazo hakurikiraho habona iyitandukanye.

Izi modoka ni nziza cyane zitwara abakire ndetse nawe ubonye ufite amafaranga wayigurira nkuko ubibona rero ifite amatara meza irareba neza amapine akiri mashyashya hakurya urabona n'izindi bisa naho hano ari mu isoko ryazo.

Aha rero n'ahantu waza ukagurira imodoka nziza cyane nkuko zibona rwose zirakeye mu mikara watuma umuntu usobanutse rwose hano hari mudasobwa rero ubona ko ariho bahita bandika imyirondoro yawe runaka impapuro hapande naho rero uraza nokumvikana bagahita bayiguhereza.

Iyi rero ni imodoka nziza ubona ko ikeye y'umukara afite ibirahuri byiza cyane amapine akomeye, ari kumwe n'umugore umwe uri hagati y'abagabo babiri bateruye ikirango cyanditseho Eyibigi, akagera bizinesi gurupe nyine bacuruza imodoka rwose.

Uyu wambaye ikositimu nkurikije uko mubona yitwa Keve iyi rero toyota hayiranda y'umukara nziza cyane iragurishwa ni kuko niko kazi kiwe iyaba nawe ifite amafaranga wayigura rwose kubera ko ni nziza.

Aha rero nkuko ubibona bacuruza imodoka zo mu bwoko bwa yundayi aya ni amarembo arafunguye rwose ni karibu n'akiriya kirango cy'umweru gihari gisa nkaho kiri kuguruka rwose kibyerekana wakinjira muri ariya mazu uhita uzisangamo nyinshi cyane.

Aha rero ni kumuhanda hatambuka ibinyabiziga, hakurya urabona amamodoka menshi aparitse, imbere hari utwatsi rwose ndetse nibirango biranga yundayi, ibi bisa naho rero bazitunganya cyangwa bakaba banazicuruza.

Iyi modoka ni nziza cyane ahantu iparitse urabona ko hasa neza amabuye y'umukara ndetse amapine yayo aracyari na mashyashya, inyuma urahabona hasa naho ari ku muhanda , umumotari ari gutambuka atwaye umugenzi, nawe rero waza ukayigura ubaye ufite ubushobozi.

Iyi ni imodoka ya Yundayi takisoni imeze neza cyane rwose ubona ko ntacyo ibaye, iri muzambere zihendutse hakurya urahabona n'izindi nyinshi bisa n'aho iri ari isoko rizicuruza.

Iyi rero ni imodoka ubona ko ireba nk'igisimba rwose amatara meza ndetse nta nubwo yambaye ikirango cyayo kiyiranga bimwe biba biriho imibare nyine ariko niyo mu bwoko bwa yundayi isa umukara iri ahantu hasakaye hakurya urahabona n'ibiti byiza cyane.

Ingofero nziza isa n'ishati yambaye akajiri k'umukara ipantaro ndetse n'imodoka ubona ko bari bajyanishije arimo arayerekana asa naho ashaka kuyigurisha. Uyu rero ku bantu bamuzi bamwitatebe keve, iyi rero iri mu bwoko bwa toyota layasi, uyibona ku mafaranga bitewe n'uko uhagaze cyangwa umwaka yakorewemo.

Iyi modoka rero nk'uko uyibona ni nziza cyane, amatara hasi ari kwaka, hejuru hari n'andi yitwa amaremare n'imbe urahabona rwose isa umutuku nziza cyane, ibirahure ubona ko hirya ahantu iri hari ibiti bikeye, hakurya hari izindi nyinshi cyane nawe ushobora kuyigurira nawe cyangwa ukabazaza ibisobanuro kuri izo nimero.

Wowe ufite ubushobozi nakugira inama yo kujya wicururiza imodoka, kuko zirungura pe, cyane kandi! Nk'uko uzibona hano, iyi ngiyi ikorwa n'abongereza irakomera, ni nziza cyane ntabwo ari nk'izindi zose tuba tuzi rwose. Iyi ngiyi irirukanka, nk'uko ubibona inareba neza.

Aha rero hari ikamyo yo mu bwoko bwa fuso rwose, ubona ko ifite amatara ireba neza isa umweru, imbere yayo hari umugabo wambaye imyenda rwose ya kake, ufite agakapu k'umutuku, arimo arakora mu kiganza undi nawe usa n'aho bamaze gukorana neza.

Hari imodoka nziza cyane eshatu nkuko uzibona rwose, amakaro akeye wirebamo. Uyu mugabo rero yambaye ipantaro y'ubururu, imbere hateretse agacupa k'amazi, impapuro ndetse n'ameza y'ibirahure. Ibi rero ni ibintu bigaragaza ko hano hantu hari agasuku.

Izi rero ni imodoka nk'uko uzibona ziri mubwoko rwose za toyota, ariko ni nshyashya rwose, ziparitse ahantu hari ku mabuye, inyuma hari ishitingi ihatwikiriye, ubona ko yanditseho eibiji ikaba ari bizinesi gurupu, naho bacuruza imodoka rwose wazihasanga nziza cyane kugiciro cyose.

Mu by'ukuri hari imodoka ziba zisa neza nawe ubizi ko uyiguze waba udahombye, nk'uko uzibone rero hari imisego myiza cyane y'umweru imbere hari ahantu hicara babiri ndetse n'inyuma hakajyamo abandi, imiryango irafunguye hakurya urahabona akandi k'umutuku keza cyane kari gutambuka.

Rero nk'uko ubibona ni imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa kiya rwose , hari umwari bari kumwe ufite agakapu k'umutuku n'ikirango afatanyije n'undi mugabo, hejuru hari amagambo rwose yanditseho ngo akakera motozi. Hano niho bacuruza izitandukanye.

Iyi rero ni imodoka yo mu bwoko bwa Kia ubona ko isa umukara nziza cyane iri kugurishwa rero ni bibiri na cumi na gatandatu. Miliyoni cumi na zirindwi ukaba urayegukanye ukayijyana rwose ukajya kuyitwariramo umuryango wawe.

Aha rero ni muri banki runaka biterwa n'iyo ukoresha, haba hari abantu bakira abandi, ukaza bakagufasha nyine ku bintu bijyanye no kubitsa no kubikuza, waba ushaka amafaranga mu ntoki bagahita bayaguhereza rwose, ni ibintu byoroshye, nk'uko ubibona hakurya harimo abari beza baseka neza winjiramo bagahita bagufasha.

Mu Rwanda tugira amafaranga menshi, ariko rimwe ajya aatakaza agaciro. Urugero: nk'igice cy'atanu, icumi, makumyabiri, na mirongo itanu nayo irenda kuyata, nk'uko tubikurikiza, ariko kubera isi igenda itera imbere l, nibyo mpamvu kuri aya mafaranga magana atanu hariho inka ubona ko iri kurisha, indi ihagazs. Izi zikaba ziduha amata.

Kwitwaza amafaranga mu ntoki ni byiza cyane kuko birafasha ndetse bituma abantu bahita bishyura uko bikwiye ariko na none harimo ibibazo bitandukanye bishobora kuyata, ushobora guhura n'abambuzi bakayakwambura cyangwa se bakayagutubura bimwe bigezweho, iyi rero ni inoti y'ibihumbi bitanu nshyashya imaze gukorwa mu minsi mikeya y'u Rwanda.

Aha rero nkurikije mpabona ni muri banke runaka, urabona ibirango biri mu mabara y'icyatsi ibirahure handitseho ijambo abantu bakira nyine wa mbere, uwa kabiri, n'uwa gatatu mo imbere harimo mudasobwa n'abandi bari gufasha abari imbere hano.

U Rwanda rugira amafaranga meza, ndetse aba ariho n'ibikorwa remezo bitandukanye, nkuko ubibona iyi ni inote y'amafaranga igihumbi, ariho inzu nziza cyane, intore iri guhamiriza, aha ni imbere, wareba inyuma, ariho inkende iri mu biti rwose iri kugenda yurira.

Aha ni ahantu rero bagufasha ku bintu bijyanye no kuvunja cyangwa kuvunjisha amafaranga. Nk'uko ubibona iki kiganza uri kubona n'icy'umudamu uri kuyamuha; nkurikije ukuntu mbibona ntago nabasha kubimenya, ariko ari gutanga amadolari yakira andi mafaranga.

Nkurikije ukuntu mpabona hano hantu rwose, ni muri banki, kubera ko amafaranga arimo ateye ubwoba, hari n'imashini iyabara. Rero iyo uyashaka, uraza ugatanga imyirondoro yawe, bakayaguhereza mu ntoki ugahita uyatwara.

Izi ni keke (cake ) zifasha abantu runaka bakene kuzirya urabona ni eshatu kw'isahani zegeye ako kwihanaguza igihe banduye, kumeza hateretse agakombe n'ibindi imbere kumeza k'umukara n'umweru rero nibyiza ko nawe wajya uzifata mu gitondo ugihe nko mu kazi.

Imigati ni nziza irafasha cyane cyane ku bana igihe bari kuyirya mu gitondo, nawe mubyeyi uge uyibapfunyikira niba uri umugabo uge utahana agapaki ni mugoroba rwose birafasha cyane noneho bashyiraho ka marigarine bikaba ibindi bindi. Uge uyibahesha igikoma.

Aha rero bacuruza ibintu bitandukanye, gusa hakurya niba ndeba neza hari keke ndetse n'akandi kakarito karimo ubusa ariko n'akuma gafatisha, munsi yaho harimo amasahane, hejuru hari capati n'amaterimusi abiri babikamo ibyayi.

Amazi ni ingenzi kuko aradufasha turayanywa tugakira umutwe, akoza impyiko, agasukura umubiri igihe hariho umwanda, turayatekesha, ni byinsh yakora tutabasha twe ubwacu tuyabuze rero twapfa.

Uyu mwana w'umukobwa rero nkuko mumubona ameze neza cyane yambaye ikote ndetse n'agakanzu k'icyatsi afite amafaranga mu ntoki bisa naho ari kugarurira uyu mugabo, imbere ye hateretse ikawa ikorerwa mu Rwanda, inyuma ye hamanitse fanta, jus n'ibindi.

Aha n'ahantu ushobora kuza ukagurira amata ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye .Nk'uko ubibona uyu mukobwa niwe uyacuruza, ako kabido gateretse hejuru nako abo bana bari bazanye nyine ngo bayagure, nyuma urahabona acuza n'amazi runaka nyine ushobora kunywa, urahabona n'ibindi bintu ushobora kwishyura ukoresha ikoranabuhanga ndetse hari n'icyuma kiyatunganya.

Aya rero ni amandazi nk'uko uyabona ari mu ndobo icyeye, hirya gato hari keke ziri mu yindi; hejuru hateretse icyuma cyo gufatisha, ikaramu ku meza, wakubita akajisho hakurya ni ku ruhande rwose urabona ko amatara acanye. Bwari bwije hari umuntu uri gutambuka.

Aha rero nk'uko uhabona hari amabuye ahashashe meza cyane hakurya urahabona akadobo bashyiramo imyanda, bipapuro n'ibindi, ku nzugi hariho ibirango by'umwana wishimye ari guseka ubwo winjiyemo mbere ushobora kuguramo amata, fanta n'ibindi.

Hano rero urahabona umusore rwose afite inzara ziciye intoki nziza cyane, urabona ko asa naho ari guhitamo, ibyo yagura, kohereza amafaranga, kugura umuriro, kwishyura, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye akoresheje terefone yiwe.

Aha rero ni uburyo ushobora kohereza cyangwa ukakira amafaranga ukoresheje apulikasiyo rwose cyangwa se ikindi kintu runaka ibintu byaroroshye rwose ushobora kohereza mu gihugu Tanzaniya, Malawi, Zambia, Rwanda, Uganda ndetse n'ibindi.

Ubu rero ni uburyo bwiza cyane nko kuba wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga bifasha abantu benshi cyane kuba bakora ibintu bitandukanye batavuye iwabo bakagura ibintu runaka bakabyishyura.

Ni byiza ko nawe wajya ureba urutonde rw'ahantu, ndetse n'ibintu wakoze mu cyumweru wenda cyangwa se ku munsi, nk'uko ubona yari ari guhitamo imibare ashaka kugira ngo arebe: yasohoye angahe, yinjije angahe, ni uko bimeze.

Aha rero ni uburyo ushobora kwishyura ibintu bitandukanye birimo inyemezabwishyu wenda kwishyura inguzanyo ideni ndetse n'ibindi byinshi rwose ukoresheje apurikasiyo ya sipeni byiza yuko nawe wayoboka inzira y'iterambere.

Ubu ni uburyo bwiza cyane bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga cyangwa se ukakira amafaranga runaka yabikuza, bikaba wayaha umuntu bitewe na gahunda mufitanye rero iki n'ikirango cya apulikasiyo yitwa paypal ariko hano mu Rwanda ntabwo yemewe rwose hari ibihugu idakoramo.

Kwishyura hakoresheje ikorana buhanga mudasobwa cyangwa telefoni n’ ibintu byoroshye cyane, abashobora no kugurira ibintu hanze, ugahita uyaboherereza bidasabye kuyitwaza ngo uya bashyire ugasanga utakaje menshi kurushaho.

Aya ni amafaranga rero nkuko uyabona ni ayo muri kongo rwose ni ijana rero uyafite wagana ahantu hatandukanye bakayakuvunjishiriza bakayaguha mu manyarwanda cyangwa ayo mu bindi bihugu runaka ushaka bakayaguhereza.

Aya ni amafaranga nk’uko uyabona. Ni umuntu uyafite mu kiganza cye. Afite imishundiko itanu ni ko tujya tuyita. Rero nawe ni byiza ko wajya uyoboka aba bayavunja bakayaguha mu y'igihugu ubarizwamo cyangwa washaka kujya mu kindi ukayatanga bakaguha ay’aho ugiye.

Amafaranga akorerwa mu gihugu cy'i Burayi ndetse akaba ariho akora mu bushinwa, bayita amayuwani rero. Ndabona handitseho ibishinwa ariko sinabasha kubisobanura ntabiraririyeho. Ariko uyafite wagenda bakaguha amanyarwanda nta kibazo.

Aha rero ushobora kuhaza ukareba ibintu ushaka ukavunjisha amafaranga bitewe n'igihugu ugiyemo cyangwa icyo urimo kubera ko uzayakenera kandi n'abayakora nabo ni umwuga ubatunze, eeee bafite abana n'imiryango nk'uko ubona uyu mugabo rero bisa n'aho ari kuhatambuka afite aho areba.

Uyu muntu ubona rero bisa nk'aho ari kuvungisha amafaranga atanga inote za bibiri z'inyarwanda bari k'umuhereza andi ashaka cyangwa se akaba ari kuyabitsa kugira ngo bayamuhe kuri telefone na we ayatange mu ntoki rwose ni ibintu byiza.

Hano abacuruzi bose baba bafite amafaranga ayariyo yose, bakayatanga bakayaguha, muribi bihugu bitandukanye ubona hano, kuva ku cya mbere kugera ku cya nyuma. Bivuze ko nawe wajya uhagera mu gihe cyose ugiye mu mahanga.

Iyi rero ni imashini ikunda kuba iri muri banki yorohereza ba bantu bakwakira, kuba babara amafaranga ngo badatinza abandi baba batonze umurongo aho ngaho; nkuko ubibona rero irimo nayo iragenda ireba amadolari bari bazanye uko angana.

Uyu ni mugabo urabona ko yambaye isaha intoki nziza, inzara ziciye afite amafaranga menshi gusa ntago asa arimo arayabara ngo amenye umubare wayo, ubundi ayatange bamuhereze ayo mu gihugu akeneye rwose.

Ikintu nzi njyewe ni uko nta muntu utunga amafaranga, ahubwo yo aramutunga. Kubera ko utayafite ntabwo wabaho. Rero n'uko ubibona hano aya ni amayero. Uyafite wagenda bakakuvunjira kugira ngo nawe ubashe kugira icyo wagezaho mu buzima.

Aha ni ahantu uza ugahinduza amafaranga ugatanga abanyarwanda bakagura amarundi, ugatanga abanyamerika bakaguha amanyaburayi biterwa n'uko ubishaka rwose nawe niba ufite gahunda yo kujyayo waza.

Ni byiza rero ko nawe niba ufite amafaranga runaka wajya uyazana bakaguhereza ayaho ugiye, ni urugero niba ugiye mu burayi cyangwa se muri Amerika ugatanga amanyarwanda bakaguha ayaho, rero nk'uko nabivuze uyu mwari ubona ndetse n'umugabo nibyo bakora.

Kuvunjisha burya ni byiza kandi ni na ngombwa igihe ugiye kujya mu gihugu runaka uba ufite amafaranga atemewe gukorerwamo reba uburyo ugomba kunyura ku mupaka, ukagenda ukayatanga nk'uko ubona uyu mwari nawe afite ikibigaragaza, ari kumwe n'abagabo babiri ndetse n'undi ku ruhande ufite imisatsi iboshye ukuntu.

Ni byiza ko nawe wajya uza ahantu runaka ukaza kuvunjisha amafaranga ufite ubwatanga bakaguhereza andi niyo mfite amatanzania, bakaguha abanyarwanda, niba ufite amagande, bakaguha amanyakenya, ufite amadorari bakaguha amarusiya cyangwa amayero ni byiza cyane rero ko wajya uza hano ibi kandi binatunze abantu benshi.

Aha ni ahantu rero ushobora kuza ufite amafaranga atari ayo mu gihugu cyawe bakayaguhereza mu buryo bworoshye cyane, gusa ibi binatunze abantu benshi kuko nk'iyo yuriye nabo barayuriza yagabanuka akagabanuka naho, rero bituma atunga umuryango cyangwa se nawe akitunga.

Bakavunjisha nk'uko abihangiye uwo mwuga na bo babonye amafaranga kandi mu buryo bworoshye, bafite uko babayeho, ndetse gukorera muri icyo kirango cy'umweru ndetse n'ubururu, amagambo yandikishije umutuku n'imyirondoro yabo. Rero wabagana bakagufasha.

Ni byiza kuba wagura ibikoresho runaka byo mu nzu, urugero intebe, utubati ndetse n'ibindi noneho izi zo urabona ko zishasheho y'ibirahure ni aho kurira, hasi urabona ko hari utuntu twiza cyane tugiye dutambitse.

Aka gatebe rero gakoze mu mbaho nk'uko ubibona nziza cyane, ukaryamaho ukiyegamira, hanyuma ukajya umanuka ugaruka uzamuka umanuka, ukariraho umunyenga niko navuga. Rero kubaza ni byiza cyane byagutunga, nawe uzagerageza amahirwe urebe.

Aha hantu urabona ko hatatse hameze neza nta kibazo, harimo utwatsi tumanitse hejuru ndetse n'ibindi byinshi cyane. Urabona ko gakoze mu rubaho, rero nawe wakikorera cyangwa ukakagura, ni byiza cyane.

Izi rero ni intebe zikozwe mu bibaho rwose ariko ubona nako ziriho ziba ziri kugenda zinyeganyeza zikujyana imbere zigusubiza inyuma, ni ebyiri inyuma hari akabati kameze neza rwose. Ibi ni ibintu bigabura iyo wabigezeho.

Izi ntebe nkuko uzibona zimeze neza cyane ndetse n'ameza yo kuriraho ku muntu uri hafi we yahita abimenya, abona ko hasi hasa nahapfumuyemo ukuntu, hajyamo ibindi bintu runaka inyuma urahabona ikanzu niba ari igitambaro ahari cy'umutuku, hakurya urahabona n'imodoka nziza cyane.

Rero ni ahantu bashobora kuza bakoresha intebe n'ameza ndetse n'ibindi, nkuko ubibona hari ama leta yanditse kubyuma n'abantu benshi aba bafite imisego n'amatora bisa nkaho biteguye gutangira akazi runaka.

Iyi ni hoteli urabona ko ikeye iri mu mabara meza cyane, amavaze ubona ko akasa neza, ndetse n'ibiti bihatatse amabara y'umutuku, imiryango myiza cyane ushobora kuza rero ukahagera bafite ibyumba bitandukanye, ushobora kuza ukicaramo.

Hoteli igira ibyumba byiza pe! cyane kandi biba bishashe neza n'ubu ngubu hano urabonahari kwaka hameze neza haratatse uturabyo hakurya, amakaro meza, urebye noneho ni ibintu biryoheye ijisho kubireba.

Ni byiza ko nawe wajya utemberana n'umugore wawe cyangwa umukunzi wawe mukajya muri hoteli runaka, nkuko ubibona hano rero yubatse neza, amarangi ateye, amatafari ahiye, haba utuntu mwicaramo kugirango izuba ritabica, n'udutebe dukeye cyane.

Ikamyo ndende y'icyatsi, ihetse kontineri ya shokora, igiye guca munsi y'ikiraro kirekire, ku ruhande hari abanyamaguru bagenda, hirya hateye ibiti byinshi, ipoto,...

Amazi ni ingenzi, ni byiza kandi aradufasha nkuko ubibona; hari ikirahure ndetse n'uducupa tubiri, agatara k'umande, televiziyo aha nkurikije ukuntu uhabona, ni muri hoteli aho ushobora kuza ukabanayo n'umuryango wawe, cyangwa inshuti n'abavandimwe

Hano nkuko uhabona harakeye cyane intebe nziza zo kwakiriraho umukunzi igihe mwasohokanye, hakgurya urahabona indabyo zikeye rwose zituma ubona ko hasa neza habona urahabona utundi twiza cyane two kwicaraho igihe uri kwinywera akayoga runaka nkuko ubona hakurya zirahamanitse.

Ni byiza ko hari ibintu ushobora gusanga muri hoteri runaka, urugero aho wicaye hari igipapuro cyerekana ibihari ndetse ukareba wabishima ugahamagara umuntu akaza ukabimwereka, agahita ajya kubikuzanira ukareba n'ibiciro byaho.

Hano rero ni ahantu heza cyane nk'uko uhabona hariho haraka amatara y'umuhondo akeye, abigaragaza ko hari ibiti byiza cyane, hari ubwogero nk'uko ubibona, kandi birafasha bigorora umubiri wawe bituma unatekereza neza igihe wumva washyushye.

Aha hashashe utubuye turi mu mabara atandukanye hirya hari ibiti byiza cyane bikeye ukahabura ibirahuri byiza abona ko nabyo bibereye ijisho ni heza rwose, ni muri hoteli ushobora kuza ukararamo ukariramo ukikorera ibintu byose ushaka ntawukubujije cyangwa aguhaze hejuru.

Iyi rero ni inyubako ikeye ubona ko iri kwaka neza, ni hoteli bayita radisoni iherereye hariya Kimihurura. Ni byiza ko nawe wazajya kuhatemberera ukareba gusa ibintu byaho birahenze, wakubita akajisho hakurya harindi abantu bajya babona ko yizengurutsa harimo idarapo ry'u Rwanda ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Hari ahantu ushobora kujya akazi kawe kagapfa cyangwa se hoteri runaka wayijyemo ugasanga ubuze aho ukorera ariko reba nka hano intebe nziza cyane za bantu bane hashobora no kubera inama cyangwa se ukayicaza umukunzi wawe wahamuzanye rwose ni byiza urabona ko bikeye nawe wayinjiramo noneho utyo ukumva ukuntu bimeze.

Aha rero nk'uko uhabona hari intebe nziza cyane, nkurikije ukuntu ubibona zisa umukara rwose, indabyo zikeye, igipangu ntawagusagarira, n'ubwo yakureba hanze ariko ntiyapfa kukugeraho, aha rero ukuntu mpabona ni muri hoteli.

Kigari irasukuye nk'uko mubizi murabibona rwose, ni ibintu bisanzwe bizwi ahantu hose, hakurya urahabona inzu nziza cyane , ibirahure ndetse n'umuhanda nyabagendwa rwose ushobora gutambukamo ufite amahoro.

Kujya muri hoteri ni byiza cyane kuko birafasha, urugero:niba uvuye nko hanze, uraza ugahita uyifata rwose ukamara iminsi uruhukiyemo, haba hakeye hameze neza hafite umutekano ndetse n'isuku, urabona ko harimo utumeza twiza duteretseho ibirahure, intebe zo kwicaramo, ndetse na tereviziyo.

Aha rero ni ahantu batanga ubwishingizi bw'ibintu runaka rwose urugero imodoka yawe, inzu, n' ibigo by'amashuri cyangwa se ikindi kintu. Ushobora kuza rero bakakwakirarira umugabo ubona ko ari kureba muri mudasobwa, ni umuntu ubafasha cyane rwose.

Imodoka nziza rwose y'umweru ubona iparitse imbere y'ahantu harimo intebe z'umutuku ndetse n'iz'ubururu, inzugi zirafunguye rwose ziriho ibirahuri bwakubita akajisho hejuru hari ikirango cya banki yitwa ekwii ishobora kuzu ukabitsamo ukanabikuza batanga n'ubwishingizi.

Ubu ni ubwishingizi bwa bantu bakorera ibigo runaka cyangwa se bafite ibindi bintu bakora. Uragenda bakabuguhereza rwose, bakwishyurira ibitaro n’ibindi bintu bitandukanye. Ukaba wagenda ukivuza ku mafaranga make yawe utanze.

Hari n'ahantu henshi hasaba ubwishingizi bw'ibintu runaka yaba inzu yawe imodoka cyangwa ibindi urabona harakeye udutebe twiza tumwe dusa icyatsi utundi tusa nk'ivu rwose akameza imitako ku ibikuta hakurya hari ibiro bakwakiriramo.

Ubwishingizi ni ngombwa haba ku binyabiziga cyangwa ku nzu yawe kuko buragutabara wenda nk'iyo ihiye cyangwa ikangirika, uhita ubagana rero bakakugoboka aho rukomeye, baguha amafaranga ukayikoresha cyangwa se ukagura inshyashya ni byiza rero ko nawe wayigira.

Gufata ubwishingizi ni ingenzi yaba imodoka yawe inzu, umwana wawe, ibitaro, ndetse n'ibindi byinshi. Ni ngombwa ko wabishyiramo ahangaha kuko igihe habaye ibibazo runaka bibyangiza hano barakugoboka nk'uko ubibona rero aha niho bakorera wabasangayo.

Ubwishingizi ni ingenzi mu buzima bwawe bwa buri munsi niyo nama nakugira niba ufite imodoka, inzu, n'ibindi. Ishobora gushya ukabura aho ubariza cyangwa imodoka igapfa ugasanga urahiye. Rero nakugira inama yo kujya gufata ubwishingizi, yewe n'ubwabana bawe byakunda.

Ni byiza ko wajya mu bwishingizi runaka bitewe n'ubwo ushoboye kuko, birafasha cyane urugero nk'iyo wishingiye inzu yawe ukayiha abantu, ukayibashyira mu maboko. Iyo ihiye bahita bakubakira indi rwose cyangwa se imodoka yakangirika, bakakugurira indi bitewe n'uko yangiritse.

Ntuzafate ideni udafite ikintu ugiye kurikoresha cyangwa rizakwishyurire ibintu runaka wenda ibyo bintu bishobora kubabyo inzu kugura imodoka izagufasha mukazi ibyo nisawa ariko nanone ukamenya ko uzafata ibyo uzaryozwa ngo ubyishyure.

Gufata inguzanyo ni byiza byagutabara, igihe wagize ibyago cyangwa se imodoka yawe yangiritse inzu igashya n'ibindi byinshi, gerageza nawe uyifate rero ariko niba ushaka no kuhagura ikibanza ukakigura ukubaka n'inzu, gusa ukore cyane uziko uzayishyura.

Nkuko uri kuhabona ni kuri banke abantu batatu barimo umukobwa ndetse n'abagabo babiri bari kwinjira bisa naho bagiye kwaka ibintu runaka, kuri ibyo urahabona rwose mu kirango kiza cy'amabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, hejuru urahabona ahantu bategera.

Nibyiza gufata inguzanyo kuko ushobora kugera aho utacyekaga, mugihe waba ufite ikibanza wananiwe kubaka, ugahita uza hano barayiguhereza rwose ugahita ugisoza, ukazamuramo etaje nk'eshatu, uko ubibona kuri icyo kirango kiriho perezida wa repuburika paul kagame, ndetse n'amagambo yanditseho.

Iyo ugiye gufata ideni, ni byiza ko ubanza gushyiramo imyirondoro yawe, kugira ngo bamenye aho ubariza ndetse n'aho ubarizwa. Ni byiza cyane kuko birafasha nk'uko ubibona, hari amazina yawe, nimero y'indangamuntu, amatariki, icyo ukora ndetse n'icyo wifuza.

Gufata inguzanyo ni byiza ariko bikaba akarusho iyo uzabasha kuyishyura ntuzayifate igihe ubona ubushobozi bwawe butoya cyangwa ngo uyikoreshe mu bintu bidakwiye urugero nko kugura imodoka kandi uzi ko itazakwinjiza amafaranga ngo ujye wishyura, ahubwo wubaka inzu cyangwa ukora ikindi kintu ubona cyazatuma ubabisohoza vuba.

Inguzanyo ni ingenzi cyane nkuko mubizi ,rero nawe nakugira inama yo kuzayifata wenda wiyiteho cyangwa se ukore ibindi bintu runaka cyangwa ukagura ikibanza cyangwa imodoka ariko beride(BRD) ntabwo aribyo ikora yishyurira abana ndetse basoza bakagenda batanga ayo barihiriwe gake gake.

Gufata inguzanyo ni byiza cyane, kuko bishobora kugufasha ibintu bitandukanye: kubaka ikibanza wari warananiwe, kugura imodoka wenda y'akazi izajya igufasha mu bintu runaka, nk'uko ubona rero uyu mwari mwiza wambaye agashati k'umweru inyuma ye hari inoto za bitanu nziza.

Gufata inguzanyo n'ibintu bishobora kugutabara igihe ugiye kubaka ikibanza runaka cyangwa se ugiye kongera ibikorwa byawe nyine ngo bijye bikubyarira inyungu zihambaye kugira ngp ujye wishyura iyo inguzanyo wafashe. Ni byiza rero ko nawe wabigerageza ukareba.

Aha rero ni muri banki nk'uko ubibona barabitsa bakana bikura bakakuguriza rwose kugira ngo wiyubakire, aba bantu benshi ubona barimo abagabo, abasore ndetse n'inkumi niba ndikureba neza niho baje rero baje kumva ibivugirwamo.

Fata ideni niba ubasha kuryishyura niyo nama nakugira ukobona rero hano hari ibindi bari kuvuga tigigu cyangwa yubake hano rero ubagannye baragufasha, hari ubwatsi butoshye rwose kuri iki kirango ubona nawe.

Gufata ideni ni ingenzi urugero niba ushaka kugura ikibanza cyangwa kwagura ibikorwa byawe ushobora kugenda mu rwego banke bakayiguhereza ukazahitamo uburyo ugomba kwishyura gake gake, cyangwa se ukazishyurira rimwe igihe wayabonye biterwa n'amasezerano mugiranye.

Gufata inguzanyo biremewe kandi birakunda ni byiza ko nawe ubaye ufite ikintu ushaka gukora runaka uziko cyazakubyarira inyungu wayifata rwose ukagenda. Urugero nko kugura ubutaka cyangwa kubaka inzu ntabwo nakugira inama yo gukora ikintu rero ugiye gufata inguzanyo y'ibintu utazabasha kwishyura, byihorere niba uziko nta bushobozi.

Aha rero ni mu isoko nk'uko uhabona rwose harimo umukobwa mwiza uri guhereza umusore wishimye anaseka hiryaho babona hari amaronji ndetse n'izindibuto zitandukanye bari gucuruza.

Iyi shusho iratwereka igipapuro cyasohotseho itangazo ritangariza abaturarwanda, abakozi ba leta, ko hari hari ibiruhuko bikurikira: iminsi mikuru izwi cyane mu Rwanda ndetse no ku isi, kugirango abakozi babashe kuyizihiza neza.

Aha rero ni ku isoko nk'uko ubibona ushobora kuza ukagura inkweto ndetse n'ibindi muri biriya birango, urabona ko biriho abanyeshuri ahari niba ndeba neza n'undi musore uri mumabara y'umuhondo, hasi hari abamotari benshi ubona ko bategereje abagenzi n'izindi modoka.

Uyu rero ni umubyeyi ubona ko nawe yihangiye imirimo kugirango atunge abana be anabarihire ishuri, akanyeye agatambaro mu umutwe, umwenda w'akazi umurinda kwandura ari gucuruza amaronji, imyumbati, ibishyimbo hejuru nk'uko ubibona ndetse n'ibindi byinshi tutabashije kureba.

Aha ni mu isoko rya Nyabugogo bahahiramo ibintu runaka urabona abantu bari gutambuka ni abikoreye imifuka abandi bahetse abana, imodoka ziri kunyuramo zimwe zizamuka izindi zimanuka hakurya urahabona ko ushobora kugenda ugahahamo ibicuruzwa runaka.

Aha rero nkuko babona hari umubyeyi bicaye wambaye umupira ujya gusa umutuku, hakurya hari ibintu bya Kinyarwanda cyangwa se bya gakondo, bacuruza bitandukanye birimo ibinigi, uduseke, n'ibindi byinshi. Hakurya rero n'abandi bantu ubona ko bari babyishimiye baje kureba ibitenge.

Hano rero urabona ko hakeye cyane ari ahantu bacuruza mo inyuko, ibikoresho gakondo ingoma, ndetse n'ibindi n'imitako ushobora kumanika i wawe mu nzu rero, umukobwa nawe musore niba mufite ubukwe, muze mwihahire rwose.

Abagabo babiri bahagaze umwe yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro yumweru, n'undi wambaye ishati y'umweru n'amabara y'umutuku n'umukara n'ipantaro y'ivu, ndetse inyuma yabo harimo imodoka eshatu z'amabara y'umweru ndetse hariho n'ishitingi yanditseho amagambo agiye atandukanye.

Ubundi kwihangira imirimo ni ibintu bigabura bya buri munsi rwose, nkuko ubibona hari inkweto z'ubwoko bwose zo gukorana izi rero ushobora kuzifashisha uzijyana ku ishuri nk'abana bakenera kuzogeramo ndetse n'abandi, hakurya urahabona udukapu, bahita bagupfunyikiramo ndetse n'ibindi binini ushobora gutwaramo ibintu byinshi cyane.

Aha rero ni ahantu bacururiza imyeda runaka yaba iya kinyarwanda, ndetse n'ibindi uduseke ndetse n'imitako rwose urabibona ibyo nibintu wajyana iwawe ukajya kuyimanika mu nzu ikagufasha noneho niba ujye kurushinga byaba akarusho.

Hari ahantu rero na bo bicururiza, ariko usanga haba hagoye kuhamenya; urugero nk'aha ngaha urahabona abantu, hari imipira n'amapantalo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye; ariko wareba ku mabati hariho imyanda myinshi, harasa n'ahakuze cyane.

Iri ni isoko rero nk'uko uribona, nkurikije ukuntu ringana rwose, ni ryiza rikoreramo abantu batandukanye. Nawe wahagera ukagenda ukifatiraramo umwanya, ukareba ko wajya ubona umugati ugaha abana bawe ukiteza imbere, ibintu nk'ibyo.

Umusaza ubona ko asa n'ukuze wambaye uturinete tumufasha kureba neza, afite telefone ari gukoresha ikoranabuhanga, imbere ye hari mudasobwa, ubona ko ndetse n'igitabo arimo arandikamo n'ikaramu ndetse n'umusore rwose waje kwitabira ibikorwa biri kubera aha.

Utubara twiza ducyeye tw'umuhondo ndetse n'umweru, amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku n'ubururu, hejuru hari ikirere ubona ko gisa n'aho gikeye, hari ikintu bakaraga rero kugira ngo babe bakigerageza amahirwe batsindire amanite, umupira ndetse n'ibindi. urabona ko abantu babyitabiriye cyane rwose, undi musore ari gutambuka, wambaye ishati y'ubururu.

Aha rero nk'uko ubibona bameze neza cyane barimo barishyura amafaranga bakoresheje ikoranabuhanga, nk'uko bishoboka ko uyu muntu ashobora kuba mu ntara runaka, undi ari i Kigali rwose, agiye kumwoherereza igihumbi kuri Fabrice Hakuzimana.

Hano rero ni mu isoko nk'uko ubibona rwose, harimo karoti, ibirungo, ubugari ndetse n'ibindi byinshi cyane, aba ni ababyeyi bari baje kwihahira, udufuka two gutwaramo ibyo guteka, hejuru hari aho wishyura ukoresheje ikoranabuhanga, urahabona hari ikirango cy'umuhondo ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'umukara.

Ni byiza gutumiza ibintu wifashije ikoranabuhanga nk'uko ubibona umuntu yambaye ingofero yirindi byago byakoze impanuka inyuma ye hari igikapu atwayemo ibintu runaka, ashyiriye abantu baba babishatse, nyine bakajya, kuri murandasi babibona bakishyura bikabageraho.

Izi rero ni moto enye zose niba ndeba zikoresha amashanyarazi, zihetse ibikapu inyuma abazitwaye bambaye ingofero zibarinda ibyago, igihe bakoze imPanuka, ndetse urabona ko biteguye kujyana ibintu runaka ahantu ku muntu wabitumije.

Uyu musore ubona yambaye ingofero y'akazi umwenda, ibi ngibi rero bigaragaza ko iyo utumije ibintu byizewe kandi bikugeraho nta kibazo, yarigeze aho yageze aparika moto yo mu bwoko bwa tovisi arakomanga cyangwa ahamagara uwo abizaniye araza arabitora.

Rwose ushobora kwigurira wifashishije ikoranabuhanga bikagufasha cyane ndetse bikanagutabara, nk'igihe utashye uvuye mu kazi unaniwe ukabona ntushaka kujya ku isoko kuba wagura imyenda, ipantaro n'ibindi. Fata mudasobwa yawe cyangwa telefone ujyeho urebe ibyo ushima uhite ubitumiza.

Amafaranga ni ingenzi mu buzima bwacu. Ubu hari uburyo bwizewe bwo kuyabika dukoresheje ikoranabuhanga. Bigatuma agira umutekano bikakurinda abajura. Aho ugeze hose ukaba wakwishyura ibyo ushaka bitakugoye.

Kugura wifashishije ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko biragufasha, ushobora gutaha uniwe wenda wumva udashobora guteka ugahita ujyaho kuri murandasi wifashishije telefone yawe, ugatumiza ibiryo rwose bihita bikugeraho nta mwanya utambuka ubundi ugahita wishyura bakigendera.

Gura cyangwa ugurishe ibintu wifashishije ikoranabuhanga cyangwa se nawe uve aho ngaho ujye ku isoko kubyigurira, gusa icyiza ni uko iyo wibereye mu rugo ukoresheje mudasobwa yawe, urebe ibyo ushimye ugahita ubizana.

Ukoresheje ikorana buhanga byagutabara nyamara igihe utashye wibereye mu rugo ukabona nk’ agapantaro ukabura uko ukagura wenda kujya k’isoko ushobora kukwereka umuntu agahita akubwira kagurira aha n'aha ugahita ukakishyura agahita kakuzanira rwose.

Aba ni abatwazi b'ibinyabiziga benshi bo mu bwoko bwa moto bose, urabona ko bambaye ingofero zibarinda ibyago, imyenda y'imituku yanditseho yego moto, bakurikiye imodoka n'ubundi, ariko imbere urabona ko hasa n'ahari ikigo runaka.

Hano ni ahantu ushobora kugura ibintu wifashishije ikoranabuhanga cyangwa telefone yawe nkuko ubibona rwose, harimo amavuta y'abagore yo gutunganya imisatsi y'ingofero, ikabutura z'abana ndetse n'ibipupe, inkweto, imyenda n'ibindi.

Ubutaka ni wo mushinga wa mbere ushobora kugutunga cyangwa se ukakugoboka igihe rukomeye, ushobora kuba ufite amafaranga ubona wabuze icyo uyamaza nakugira inama y'uko ushobora kubugura ukawubika cyangwa ukazabwubaka. Ushobora kubushakira kuri miliyoni enye ejo bakagura umunani ni byiza rero ko nawe wawugura kuko hano harashije ni heza cyane.

Iyi nzu ubona rwose ni nziza cyane bisa naho ikodeshwa. Iherereye Kigali, iteyeho indabyo urabona ko irasa neza, amarangi y'umweru, amatafari ahiye, amadirishya urumva uyibayemo waba ufite umutekano rwose.

Yambaye neza rwose, agakapu inyuma bamwita Terense acuruza amazu rwose nk'uko ubibona hano nyuma ye hari inzu nziza cyane, iri mu makaro akeye ifunguye imiryango. Niba ndeba neza harimo n'ama esikariye zamuka.

Iyi nzu rero nkuko ubibona irakeye cyane, ibiti byiza igipangu kihakorotiye ndetse n'izindi nzu zitandukanye urabona ziri inyuma yayo. Wakubita akajisho hejuru hari imiryango myiza cyane ndetse n'amatara, hirya gatoya urahabona utuntu tuhasakaye. ikirere urabona ko gikeye nacyo ubururu bwinshi ndetse n'agacu gakeya .

Gukodesha inzu biragufasha cyangwa ukayigura uka yubaka neza ndetse n'iyo isa neza cyane abantu baragushima uko ubibona iyi ngiyi rero hano ni mu bwogero akadirishya karafunguye, amazi aturuka hejuru, ibase y'ubururu hasi hano wayisanga kabeza.

Inzu rero nk'uko ubibona irakodeshwa cyangwa ikagurishwa biterwa n'ubushake ufite rwose, irimo amakaro meza arimo utuntu tw'umukara amadirishya hakurya urahabona ibasi ndetse n'ibindi bintu, miliyoni ijana na mirongo itatu wazegukana nawe.

Aha rero nk'uko ubibona harakodeshwa n'inzu nziza cyane ikeye irangaye, ubona ko iteyemo amakaro azamuka hejuru kugikuta, aho gucanira amatara ndetse ushobora kuyisanga rwose ahantu hitwa Kabuga ifite ibyumba bibiri ukayikodeshereza nawe ukayibamo.

Iriya ni inzu ushobora gukodesha nawe ubwawe ukayiberamo, yaba umuryango wawe cyangwa se inshuti n'abavandimwe. Ni nziza cyane urahabona hariya ni mugikoni, parafo z'umutuku, amatara, irakodeshwa rero hariya Kicukiro-Kimironko.

Hano rero nkuko ubibona harakodeshwa ibihumbi ijana mirongo itanu haherereye i Remera. hano mu gikoni amakaro meza hakurya urahabona ni gakuta k'amabuye ubonako gatuma hagaragara neza cyane inzugi zikomeye nta mujura wapfa kuzica akokanya uko yiboneye.

Aha rero nk'uko uhabona hari inzu nziza cyane yo gukodesha irimo udutara dukeye twaka nijoro, ibiti bikuzanira akayaga, ubaye ufite amafaranga nawe waza rwose ukiberamo kuko hab harimo ibintu byose.

Iyi rero ni inzu nziza yo mu bwoko bwa Kadateri ubona ko ifite utu esikariye, ibirahure bikeye cyane, inkingi nazo zirakomeye ziratatse neza, nk'iz'amatara hakurya habona indabyo ziri aho ngaho rero washyiramo imodoka iragurishwa cyangwa se igakodeshwa biterwa n'uko wifite, ibafite ibyumba bine aho kogera hatatu ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Ni byiza ko waba uri ahantu runaka, ubaye udashaka kujya muri hoteri, waza ukifatira inzu yawe uba ubamo, wenyine ntawe muyisangiye cyangwa se utiriwe uza ngo bakwakire ahantu runaka. Uraza rero ukayifata, ukayibamo nk'aho ari iyawe, wowe ukajya wishyura ku kwezi.

Hano rero ni muri kigali rwose i Kanombe inzu ihagaze miliyoni mirogwirirwi neshanu ubaye uyafite rwose wayabikamo hano aho kugirango ngo yangize kuyarira cyangwa uyanywera kuko ntaga abikika amafaranga niyo mvuga uyibona ifite amabati yumutuku kuko amadirishya meza harana funguye.

aha rero ni kigali muri kanombe washobora kwiyigurira ikibanza gifite ubuso bungana na magana atatu mirongo itanu kuri miliyoni ijana gusa , nkuko ubibona harimo n'inzu nziza cyane yubakitse ubona ko bagusoye bataguseka.

Iyi n'inzu rero nkuko ubibona, imbere ifite umwanya munini ushobora gushyiramo imodoka nk'ebyiri wenda, amatara yaka nijoro ukabona neza ukuntu ikirere kiba kimeze, hakurya urahabona ibirahure, amadirishya n'inzugi, rero iragurishwa miriyoni ijana. Iherereye Kinyinya mu birembo.

Iyi nzu uko uyibona ni nziza cyane, ifite ibyumba bitatu, ubwogero bumwe, aho kwicara ndetse wayikodesha rwose iherereye Kabeza, ni ibihumbi magana tatu bya buri kwezi wayigiramo rwose birafasha.

Iyi nzu rero nk'uko ubibone ni nziza cyane utubuye tubashasha tw'amabara atandukanye umweru n'umukara ndetse n'umutuku hateye uturabyo utubuye hakurya amakaro meza cyane ndetse n'imiryango iragurishwa rero miliyoni ijana na mirongo itatu. Ubaye uyafite waza ukayegukana.

Uyu musore rero ubona uhetse igikapu ingofero y'imituku umupira w'umweru ipantaro y'umukara, hasi hari izindi nkweto zo mu bwoko bwa jodani zifite akabara k'umuhondo, arimo arareba ipantaro iyo yishimira ngo ayitware ndetse n'umupira y'amaboko maremare niya magufiya.

Aha urabona umusore wihangiye imirimo acuruzaga kamambiri ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, arahagaze aripfumbase bisa nkaho byamuyobeye iby'uyu munsi, hakurya urahabona amakanzu y'abadamu nyine baza bakagura bakiyambarira.

Aha rero ni mu iduka cyangwa se ahantu runaka bagurira ibyo kurya n'ibyo kunywa birimo fanta, bisikwi ziri mu mashashi, amandazi n'ibindi. Ushobora kuza rero nawe ukareberamo bikeya, n'amata wayasangamo ukayaha umwana wawe.

Ahantu rero nk'uko ubibona ni ahantu ushobora kuza guhahira harimo amakaro menshi cyane y'umukara ariko havanze n'ivuna n'andi, urahabona amavuta, ibindi bintu byo kwihumuza ku mubiri n'imyenda. Ni byiza cyane kurushaho kuzana nawe ukigurira.

Hano ni ahantu ushobora gushaka ibintu usasa mu nzu rwose byiza bituma hasa neza nkuko ubibona, biratandukanye hariho iby'ubwoya; ndetse n'ibindi by'ibyatsi rwose, ushobora kuza washima ukakigura.

Aha ni ahantu rero ushobora kuza guhahira imyenda yawe cyangwa ibindi bintu runaka, kuko si ibyo bibamo gusa aya makarishashi urimo urabona harimo ay'umukara ndetse n'umweruru, umwari ndetse n'umugabo bahagaze ku kintu tutabasha kumenya icyo ari cyo, inyama yabo hari umubyeyi usa n'ukuze ari gutambuka.

Hano rero ni isoko ritandukanye, ubona ko hari ibice byo hejuru n'ibyo hasi bahahiramo, abandi naho bari gutembera barishimye, bari kugenda bareba ibyo bari buhitemo bashyira abana babo, cyangwa abagabo babo.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara impande ye umusore uhetse igikapu cy'umutuku imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ushinzwe umutekano inyuma yabo inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi.

Aha rero nahantu ushobora kuza ukigurira utuntu dutandukanye nkuko uri kutubona hariya nibintu byabagore byinshi niba ndeba neza harimo udu shakoshi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye biryoshye cyane.

Aha ni mu isoko aho bagurira ibintu bitandukanye imyenda, amapantalo, amakabutura ni muri famina rwose, hari umubyeyi ufite ishakoshi agapira k'umweru asa naho nawe ari gucakura, abandi barangariye ikote riri imbere yabo ubona ko bashaka kurigura.

Aha rero urabona hari abagabo babiri bari bamaze gusa naho biruta ubwisungane mu kwivuza kuko arabantu batandukanye; abakecuru bakuze, abasaza ndetse n'abandi, hari ibiteyeho bibarinda izuba rwose bicayemo urabona ko n'imvura iguye itabanyagira, biriho amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abantu henshi ubona ko bambaye imyenda y'akazi y'imyeru bari n'amakaramu, gazi ibarinda kwandura mu ntoki, hakurya hari ababyeyi ubona ko batonze umurongo bafite ibintu baje kumva, bisa naho hano rero bari gupima ibintu runaka tutaramenya.

Ni byiza kuzigamira umwana wawe cyangwa nawe ukizikamira rerobl muzeckuko biragufasha cyane. Ushobora nko kugira ikibazo cyangwa se ikindi kintu runaka ugakenera amafaranga bagahita bayaguhereza, rero niba nawe utaragira ubwenge warasigaye.

Ubwisungane mu kwivuza ni ingenzi rwose kuko burafasha cyane, uyu mugabo ubona aragateruye ni agakarito ujyana kwa muganga, hanyuma ukakerekana, kaba kariho ifoto yawe, amazina yawe, n'imyirondoro gusa ubu twaracitse, usigaye utanga irangamuntu gusa, utu badukorera abana batoya batarayifata.

Uko wakwizigamira ukoresheje telefone yawe muri "ejo heza" rwose byaroroshye, numvishe ko banabikemuye ngo ugiye warizigamiye ugiye kubaka bashobora kuyaguhereza, ntago nyahagazeho nibarije ariko byadufasha cyane nkuko ubibona rero bari kubikwigisha uburyo ushobora kubyikorera wibereye iwawe nawe.

Hano urahabona abagabo bakuze, abakecuru, bambaye ingofero, bamwe bafite uduti two kugenderaho, bafite amakaye ndetse bisa naho baje ahantu runaka bafite ibyo baje kumva nyine.

Iki ni cyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye, inyuma hari ibara ry'ubururu bicaye bose ku ntebe nziza cyane, kandi imbere yabo bose bafite indangururamajwi kugirango baze kumvikana, imbere yabo hari uyoboye iyi nama wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru ari kuvugira mu ndangururamajwi kugira ngo abakurikiye inama bose babashe kumwumva.

Aha rero ni mu iduka kuko mubibona bacuruza ibintu bitandukanye birimo ibiribwa, amaronji, indimu, imineke n'ibindi. Hakurya urahabona hari inyama nazo barazitanga rwose, n'ibindi ubona ko bitonda umurongo utabura na kimwe.

Aha rero ni mu iduka ari ryo usangamo ibiribwa byaba ari nabyo bikeye cyane bikagufasha sinibyo gusa binahendutse kuko hakurya harimo fanta z'ubwoko bwose coca, orange, tonic n'izindi nyinshi harimo n'amazi.

Uyu mukobwa mwiza rero ubona ko imisatsi ifunze ukuntu ndetse yanayisokoje rwose, yaje kwihahira imbuto nkuko ubibona hasi rero hariho ibintu bitandukanye, insenda nawe nk'uko ubireba binatonze umurongo ndetse rwose uri kubona ko bifite agasuku.

Aha urabona ko ibintu ari gucuruza yihangiye imirimo, umupira w'umuhondo, umusatsi ufunze, imbere ye hari abandi babyeyi basa naho barikwishyura ibyo bari baje guhaha, ndetse banabifite rwose mutuntu tw'umweru hakurya urahabona n'ibindi byinshi ushobora kuza ukagura.

Aha rero ni ahantu bacuruza ibintu bitandukanye birimo fanta, ibiryo bipfunyitse mu mashashi, inzoga ndetse n'ibindi byinshi usanga noneho hano ari naho ibintu biba bihendutse kurusha ahandi nakugira inama ko nawe wajya uza ukirebera ugahaha.

Urabona ko uyu muntu yaragerageje yihangira imirimo ndetse acuruza ibintu bitandukanye byo kurya imigati n'ibindi byinshi hakurya urahabona umukobwa n'ibindi biri mu birahure bipfundikiye ntabashije kumenya ibyo aribyo gusa ntabwo ari umwe babiri.

Hanyuma ushobora kuza ukagurira ibintu bitandukanye ushobora gusanga binahendutse cyane birakeye biri ku murongo ushobora gutambuka ukirerebera nawe ibyo ushaka ukabikuramo fanta, ji ibyo kurya ndetse n'ibindi.

aha ahantu rero ushobora kuza ugaharira ibiryo by'ubwoko bwose ushaka, inzoga zose ntiwaziburamo abaririmo ifunze mu mashashi bose harimo amavuta, fanta ndetse n'ibindi bintu, bikaba akarusho noneho nuko usanga ariho biba bihendutse kuruta muri butike zisanzwe reba nk'aya makaro ni meza cyane arakeyeye.

Aha ni mu iduka rero ushobora kuza ugahahiramo ibiryo by'abana cyangwa iby'abantu bakuru biterwa, iyo ukinjira rero waba uri butware byinshi ufata akantu ugenda usunika gafite amapine, aho ugeze umanura ushyiramo, umanura ushyiramo, noneho nyuma wagera aho bishyurira ukabikuramo, bagahita babikujyanira mu modoka.

Uyu rero ubona ni mu isoko runaka ndetse'narimo ibirayi abaribeeza bambaye imyenda ibaranga ubona ko bakoramo aho ngaho ushobora kugenda ugatambuka kabuyo ibyo kunywa wabishima ukabitwara rwose ukabyishyura.

Aha rero ni mu isoko nk'uko ubibona urIya musore wambaye umupira, inyuma ye hari agatebe, ku meza hateretse ibintu byinshi ndetse na mudasobwa. Barimo barishyura ibicuruzwa bari baje hano bakaguramo imbere, haba harimo ibintu byinshi.

Aha rero ni mu iduka, aho usangamo ibintu byose wabuze, ahandi, ugira ibirungu, ibindi ushobora no gusangamo ibintu binahendutse kuruta, aho wari usanzwe uhahira, kubera n'ahandi harimo amavuta, n'ibindi byinshi.